Indyo yuzuye. Indyo yuzuye nkuko bigaragara ku ifoto ni ifunguro riteguwe neza ;hari ifi irimo ibyubaka umubiri, hari imbuto, inyanya ndetse n'amaronji bifatwa nk'ibirinda indwara ndetse hari n'ibirayi biri mu bitera imbaraga.

Bale ahantu abantu bajaga bagiye gufatirayo kamwe cyangwa se agacupa, ndetse n'ibyo kujya bitandukanye by'amoko yose biba bitetswe neza, ndetse hakaba ari ahantu bakoreraga amakwe ndetse n'ibindi birori bitandukanye bishimishije, mu gwego gw'imyidagaduro.

Ifunguro ryo kurya rigizwe n'ifi, isosi umuceri na magi, nk'ikirungo co kwifashisha mu kuryoshya ifunguro ndetse na kabenzi.

Ibiryo biteguye neza cane ahanini bikundaga gutegurirwa mu mabare cane mu mahoteli, kugira ngo bireshe abakiriya nibabijya rimwe bazagaruke n'izindi nshuro bityo bagende babona amafaranga. Bikaba ari ibiryo biba biteguranye isuku kandi biteye apeti.

Ibinyobwa bidasembuye bikaba ari ibinyobwa biba bitarimo alukoro cangwa se bidasindisha. Bikaba bikundaga kunyobwa n'abatu b'abarokore cangwa abatu badakunda kuba basinda mu ruhame. bikaba ari ibinyobwa biryoha cane ahanini biba bikungahaye ku masukari.

Abantu bateraniye ahantu h'akabari, ba bigaragara ko bishimye bafite ikintu kibanejeje, nk'urugero bashobora kuba ari nko muri kampani runaka yasohokeye ahantu kubera ibintu byiza bagezeho. Bico bakaba bishimye banezerewe, bakaba bari kubyina inbyino zitandukanye cyane ko abenshi barimo no guseka.

Resitora cyangwa se bale nziza cyane; ziba zubatswe mu buryo bwa kijyambere, aho ziba zirimo ibikoresho bitandukanye ndetse n'ibyokunywa bitandukanye byo bigatuma abakiriya bagana ari benshi by'umwihariko kuko haba hubakanye isuku nyinshi cyane.

Bare cangwa se utubyiniro. Akaba ari ahantu abantu bajaga bagiye kwishimisha, by'umwihariko haba hari abantu babyina, baseriva inzoga, cangwa se bazigeza ku bantu ndetse n'ibyo kujya, bityo bigatuma abantu bahakunda kuko baharonkera ibyishimo.

Burushete cangwa se inyama zokejwe ku biti, zikaba ari inyama zikatwa zigashigwa ku biti iruhande rw'amakara, noneho amakara akagenda azikamuramo amazi ari nako zisha. Zikaba zikundwa gutekwa mu nyama z'amahene kuko arizo ziba zifite amavuta menshi cane.

Inzu y'ubucuruzi ikoregwagamo cangwa icururizwagamo ibikoresho by'ikoranabuhanga. Imbere nk'uko bigaragara hari amaradiyo, hari amatelefon,i hari amakuteri ndetse n'ibindi bitandukanye.

Supa maketi, isoko rinini cane, usanga ririmo ibintu byinshi cane bitandukanye. Aho urihahiramo ikintu cyose yifuzaga ashobora kugisangamo. Ndetse akenshi kuko riba rifite abakiriya benshi, usanga n'ibiciro bihanitse cane.

Abanyonzi bicaye ku magare gabo ndetse inyuma hakaba hari n'undi muntu ushinzwe umutekano uzwi ku izina rya daso iruhande rwabo nanone hakaba hari inyubako y'ubucuruzi.

Amaduka gacuruzaga ibinyampeke bitandukanye nka masaka uburo ibishimbo n'ibindi byinshi cane, bakabishira hanze kugira ngo umukiriya aze abireba neza, bityo abashe guhitamo ikimunogeye.

Inzu ikorerwagamo ibikogwa byo kuruhura umubiri izwi nka bare, cangwa se urunywero ,aho bantu bajaga bagiye kunywa agacupa cangwa bagiye kujya ibijyo bitandukanye, ndetse ikaba yifashishwa rimwe na rimwe nk'igihe cyo kujyama, abantu bananiwe bagacumbika, bakaba bazafata urugendo ejo bamaze kuruhuka.

Bare resito ni ahantu abantu bajaga bagiye kunywera cangwa nse gufatirayo kamwe, kuko bikunda kuvugwa mu rurimi nyagwanda. Ico gihe baba bagiye kunywa cangwa se kujya, bari ahantu hatuje hameze neza.

Papeteri cyangwa se ahantu abantu bajya bakeneye serivisi z'ikoranabuhanga zitandukanye, akaba ari ahantu batera amakashi, bagafotora impapuro, ndetse n'ibindi bitandukanye bisaba gukoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga.

Umumotari uri gutwara moto akaba ari n'umuhanda gwa kaburimbo bigaragara ko nta mukiriya afite atwaye, ariko bisa nkaho ari kumushaka kuko iyo agenda agenda anyura ku bagenzi, ashobora guhura n'ugiye mu gace nawe ari kujamo akaba yamuha amafaranga akamutwara.

Iduka ricuruzaga ibikoresho by'amagare piyese doreshanje n'amagare ndetse n'ibindi bikoresho bifashishaga mu gukanika ago magare, bikaba ari ibikoresho bisangwaga ahantu tu kugira ngo igihe igikoresho cyangiritse ubashe kugisimbuza mu buryo bworoshe.

Icapa cerekana amazu go kubamo cangwa go gukodeshwa ahantu runaka, gishigwa ku mazu. Bigamije kwerekana ko ago mazu gashobora gukoreshwa n’umuntu runaka igihe ashaka, noneho akazishura amafaranga bitewe n’igihe amaze muri ago mazu.

Icapa cyamamaza ibikorwa bikorerwa ahantu runaka, cyane hano bari mo kwerekana ko bambika abageni, bagakora indabo, bakaba bafite n'impeta nziza, ndetse bigaragara ko ari icyapa cyashyizwe ahantu, kugira ngo gisobanurire abakiriya serivisi zitangirwa aho hantu.

Icapa cerekanaga ibikogwa Gifutisitudiyo ikoraga, aho bafotoraga amafoto yazwi nka shuti, bagafotora muri aniveriseri mu rugo, ndetse bagakora n'amavidewo. Icapasi kikaba kirangira abakiriya cangwa se kimenyesha abakiriya, ibikogwa bikoregwaga muri Gifutisitudiyo.

Amazu g'ubucuruzi cangwa amazu gifashishwaga mu gutanga serivisi z'ubucuruzi, gakaba ari amazu gashigwagamo ibicuruzwa kugira ngo abakiriya bahanganye, baje baza bahabwe ibicuruzwa byaba ibyo kujya cyangwa ibindi byo gukoresha ubuzima bwabo bwa buri munsi.

Icapa cerekana inzu y'ubwogoshero cangwa se aho bogosheraga. Kikaba kimanikwa kugirango camamaze cangwa se cereke abakiriya ko hari ibikogwa bikoregwaga aho hantu bitewe n' ukeneye izo serivisi, akaba yahagana bakamufasha.

Inyubako nini cane zikorerwagamo ibikorwa by'ubucuruzi, by'umwihariko zikundaga kubakwa ahatu hafi y'umuhanda, kuko ahanini ahatu iyo ari heza, ari hafi y'umuhanda hakunda kuba hari n'abakiriya benshi. Bityo bigatuma izi nyubako zibyazwa umusaruro mu bice bitandukanye by'Igihugu. Abenshi barabizi ko izi nyubako zikunda kubakwa ahatu h'umugi.

Amazu gakorerwagamo ibikorwa bitandukanye by'ubucuruzi ndetse by'umwihariko gakaba ari amazu gari ku muhanda gwa kaburimbo. Bisobanuye ko n'abakiriya cangwa se abahagana baba ari abantu benshi batandukanye kubera ko ahantu h'imijyi hakunda kurangwa n'imiturire y'abaturage benshi kandi uko abaturage baba benshi mu gace runaka ninako bakonsoma byinshi.

Iduka ricururizwagamo ibitu byo kwambara cangwa se imyenda mu gandi magambo. Akaba ari amaduka gabaga garimo imyenda zitandukanye. Umutu akajamo yabona umwenda yishimiye akaba yagugura akaja agwambara.

Hoteri cangwa se moteri ahantu abantu bajaga bagiye kuruhukira cangwa bagiye kunywa mu bujyo bwo kwishimisha cangwa gushimisha imibiri yabo, ahanini abenshi bajamo bajanyemo n'inshuti zabo kugira ngo baganire, basabane ndetse n'ibindi byatuma bishima.

Amaduka g' ubucuruzi gifashishwa mu kugura no kugurisha ibicuruzwa bitandukanye cyane ko hejuru hariho n'ibirango bigaragaza ibikorwa bakora umunsi ku munsi kugira ngo abakiriya bazajye babagana bazi ico bagiye gukora.

Inzu bacururizagamo imyambaro zabagabo. Kuko bigaragara ku ifoto hari ibipupe bigaragaza imyenda z'abagabo, ndetse n'inkweto ziri gucuruzwa.

Amazu gakoregwagamo ibikogwa bitandukanye by'umwihariko ibikorwa byo guhererekanya ubutaka, guhana amasezerano, n'izindi nyandiko zitandukanye. Nk'uko babigaragaza ku byapa, by'umwihariko na none hakaba hakoregwagamo ibikorwa by'imideri nko gusokoza, gusuka n'ibindi bitandukanye.

Umuntu uhagaze mu muryango w'inzu y'ubucuruzi, bishobora kuba yagiye guhaha cyangwa akaba ari umucuruzi nyiriyo nzu, inzu ikaba irimo ibintu bitandukanye nka firigo ndetse n'ibindi binyobwa bitandukanye.

Umuntu ucuruza ibintu byo kurya bitandukanye birimo nk'ibirayi ndetse akaba acuruza ibirungo bishyirwamo ibyo byo kurya birimo inyanya ndetse n'ibitunguru .Si ibyo gusa byo kurya, hari ibitoki hari n'ibindi binyampeke bitandukanye kuko afite butike nini cyane.

Ahantu bacururizaga amazi gwo kunywa gazwi nka jibu ndetse na gaze zikoreshwaga mu guteka ibiryo. Aho hantu ukaba ujyagayo bakaguha icupa ririmo amazi ukabaha amafaranga, wazasubiraho ukazasubiraranayo n'icupa bakaguha irindi cupa ririmo amazi nabwo ugatanga agadi mafaranga.

Icapa camamazaga ibintu bitandukanye bikorerwaga ahantu runaka, hamoni mini maketi, ni ukuvuga ngo isoko ritoya ricururizwagamo ibintu bitandukanye, kuko baba babyerekanye ku gishushanyo cangwa se ku capa camamaza barashize ahantu runaka kuri butike cangwa ku muhanda kugira ngo abakiriya bakibone baje kugurira aho hantu.

Icapa cerekana ko ahantu bakiliningaga cangwa se bakoreraga isuku, bafuraga imyenda bagahita banayumutsa, bakaba bifashishaga amamashini gatandukanye gafura ndetse gakumutsa mu gihe gito.

Inzu y'ubucuruzi ikorerwamo ubucuruzi bw'imyenda n'inkweto, n'ibindi bitandukanye, ikaba yifashishwa bagurisha ibyo bikoresho bivuzwe haruguru, ku babikeneye.

Firigo icuma cifashishwaga mu gukonjesha ibintu bitandukanye nk'imbuto ndetse n'ibindi byo kurya kugira ngo bidahura n'ikibazo cyo kugaga cangwa se co guta ubuziranenge.

Ibijyamigwa cangwa imyenda yifashishwa mu gihe co kujama .Akaba ari imyenda bashyira ku buriri bagiye kuryama, ndetse bakanayiseguza kugira ngo batavunika uwo mugongo.

Icapa cerekana cangwa se kiranga ahatu bacururizaga ibyo kunywa n'ibyo kurya hazwi nka bare. Hakaba ari ahatu hubakwa hagamijwe kuja harakorerwamo ibikorwa by'imyidagaduro, cyangwa se ibikorwa byo gushimisha umubiri nko kunywa ndetse no kurya.

Ahantu basukurira imyenda ndetse bagahita banayumutsa, nk'uko bigaragara baranditse ku cyapa cyabo cyamamaza dalayikirina bivuzeko bahanagura ibintu bitandukanye cyane nk'imyenda, amarido ,amajakete ,amakote bagahita banayumutsa.

Umucuruzi ucuruzaga imyenda n'inkweto ,mu buryo bita kudandaza cyangwa gutemberana , aho umucuruzi agenda atembera hirya no hino afite imyenda ,yabona bakiriya akabagurisha ,kandi kuko imyenda iba ari caguwa abahera kuri make.

Icapa cereka canga kiyobora urugendo mu birometero umuntu ugiye gusura ingagi cangwa parike nasiyonali y'igihugu, urugendo agiye gukora mu gace ko mu Kinigi kugira ngo agere ahantu ibirunga biherereye. Cangwa se ahantu ingagi ziherereye.

Inzu y'ubwogoshero aha bantu bajaga bagiye kwiyogoshesha umusatsi cyangwa se kwisukisha amaderede nkuko babivuga kutangazo rigaragara.

Iduka ricuruzaga imyambaro z'abantu, abagore, abana, abagabo ndetse ijyo duka imbere yajyo hariho n'abantu barimo kudoda ibitambaro, kugira ngo babikoremo imyenda zitandukanye.

Kimaranzara resitora, akaba ari ahantu hacururizwa ibintu byo kurya, nkuko bisanzwe resitora birazwi ko ari ahantu haba hari ibintu byo kurya bitandukanye, noneho abantu bashyizeho izina rya kimaranzara, kugira ngo bareshye cyangwa se bakurure abakiriya bahagane ari benshi, kuko babakiza ikibazo cy'inzara.

Icapa camamaza cangwa cerekana ibikogwa bikoregwaga ahantu runaka. nk'aha barimo kwerekana ko bafite inkoko, burushete, agatogo n'ibindi. Bigaragara ko ari resitora iri kubwira abakiriya bayo ko aho hantu bashobora kuhasanga ibyo kurya bitandukanye.

Amazu gakorerwagamo ibikogwa by'ubucuruzi ariko nanone gubatswe mu bujyo bugezweho gakaba ari amazu gaba gari ahantu h'umuhanda cangwa se hegereye umuhanda kugira ngo abakiriya baturutse impande n'impande nibahabona baje kuguriramo ibicuruzwa bityo aba bacuruza bagen babona amafaranga agaturutse ku bakiriya bavuye impande nimpande.

Anyubako z'ubucuruzi zubakwaga cane cane ahantu ho mu mijyi ndetse n'ahandi, mu rwego rwo kurondereza ubutaka. Ikaba ari inyubako zitanga umusaruro mwinshi ugereranyije n'inyubako ziba zubatse hasi kuko izi nyubako zishobora kwakira abantu benshi icarimwe kandi bose bakanyurwa na serivisi bahasanze ko ziba zitandukanye.

Amashiga gakoreshwaga mu guteka, cane ko abakoresha amagaze ndetse n'abakoresha amashanyarazi, baragazi kuko arigo gifashishwa mu guteka ibitu bitandukanye, ndetse gakaba gasangwa ahatu henshi mu Gihugu. kuko u Rwanda rugenda rurushaho gutera imbere ari nako ibicanwa bigenda nabyo byiyongera cyangwa se bizamo tekino.

Igikoresho kimeze nk'ingorofani gifite amapine abiri, gisunikwaga n'umuntu mu gwego rwo korosha imirimo. Aho gishirwagamo ibintu bitandukanye ku bwinshi kugira umuntu atabasha kwikorera ku mutwe gwe kugira ngo cyoroshe imirimo abashe kubitwara mu bujyo bumworoheye.

Ibyapa byamamaza ahantu hari amazu, cyangwa icyerekezo runaka cy'ibikorwa bikorerwa mu gace, mu duce, cyangwa se ahantu hatandukanye mu gihugu cy'u Rwandaba. Akaba ari ibyapa byerekana korwakorerwa hantu, urugendo ruhari kugira ngo uhagere, ndetse na serivisi batanga.

Inzu ikorerwagamo ibikoresho by'ikoranabuhanga nka telefone, radiyo cangwa se ico twakwita nka ampuli, ndetse na za keto cangwa ibikoresho byifashishwaga mu gushusha amazi. Imbere hakaba hari abantu bicaye bari kuganira, ndetse mu nzu hakaba harimo n'ibikoresho by'ikoranabuhanga bitandukanye.

Migano cangwa ihoteri ikaba ari inyubako iba ari nini cane ikoregwagamo ibikogwa biruhura umubiri nka masaje ndetse by'umwihariko ku gufata amafunguro, kuruhukiramo n'ibindi bitandukanye.

Inzu icururizwagamo ibinyampeke bitandukanye, ndetse byinshi cane, ariyo bita depo mu ndimi z'amahanga. Ikaba ari inzu iba ari nini, irimo imifuka myinshi cyane, irimo ibinyampeke bitandukanye: amasaka, ibigori, kugira ngo umuntu ukeneye ingano nini cane ayibone kandi ku gihe.

Inyubako ikoregwagamo ibikogwa by'ubucuruzi by'umwihariko ubucuruzi bw'ibinyampeke, nk'ibigori, ibishimbo, ingano n'ibindi bitandukanye. Cane ko imbere bashizeho ikiyungururisho co kugira ngo babashe guha abakiriya ba bo ibishimbo cangwa se ibigori byiza biyunguruye, noneho bitume bagira ico bita castomakeya cangwa gufata neza abakiriya.

Ahantu bacururizaga amagare ga siporo, akaba ari ahantu umuntu ukeneye igare ajaga bakamuha igare jya siporo, noneho nawe akabaha amafaranga, bicyo bigatuma imikoranire myiza hagati y'abaguzi n'abagurishaga amagare ikomeza kwiyongera, ndetse ari nako iterambere rigenda jyiyongera, cane ko amagare ga siporo ari meza cane.

Icapa camamaza cangwa cerekana ibikogwa bikoregwaga ahantu runaka, aho iki capa cerekana ahantu bambika abageni bakabakorera indabo, bakabaha impeta, bakabatiza amamodoka g'ubukwe, bakabacurangira mu bukwe n'ibindi bitandukanye bishobora kwifashishwa mu gikogwa co gushimisha abantu baje mu kirori co gusezerana cangwa c'abageni.

Ahantu bacururizaga inzoga zikomeye abenshi bakundaga kwita inzoga z'ibyuma cangwa se amarikeli. Ndetse si ibyo gusa banacuruza ibindi bikoresho bitandukanye nk'ibyifashishwa mu kwiga cangwa se mu myigire y'abanyeshuri ndetse n'isuku mu menyo aribyo korogati n'uburoso ndetse n'amakaramu gifashishwaga mu kwandika ku makayi.

Aya ni amazu y'ubucuruzi, cyane aba ari mu duce dutandukanye, aho abaturage bajya gushaka ibyo kurya ndetse n'ibindi bitandukanye. Nk'uko bigaragara hari abaturage bagiye guhaha, ndetse hari n'abacuruzi bari mu mazu mo imbere kugira ngo bafashe abaturage.

Ahantu bacururizaga amakaro cangwa ibikoresho byifashishwaga mu gutaka mu nzu, kugira ngo hagaragare neza. Amakaro rero, gakaba gifashishwaga kugira ngo ahantu habe hasa neza, hafite isuku. By'umwihariko gakoreshwaga nko mu mazu gagezweho ga etaje cangwa mu ngo z'abantu bifashije.

Amapoto insinga byegereye tawuni moteri; amapoto n'insinga byerekana ibikorwaremezo by'amashanyarazi aho leta yagiye irabikwirakwiza mu bice bitandukanye by'igihugu, noneho tawuni moteri akaba ari ahantu ho mu mugi abantu basohokeraga, cangwa se bajaga gufatira kamwe cangwa kwisanzura no kwidagadura.

Ubusitani bwiza cane bunogeye ijisho ndetse buri ahantu bigaragara ko hatuje hameze neza, hakurura abahareba. Ubusitani akenshi bukunda kuba buri ahantu h'amahoteli cangwa ahandi hantu haruhukira abantu, kuko ahantu hari ibintu nk'ibyo birangaza abantu cangwa se bibashimisha bituma bakunda kuhatemberera cane.

Hoteri cangwa se Moteri，ahantu heza cane abantu bajaga， bagiye kwiyakira，kuko mu bintu bijanye n'ibiribwa n'ibyo kunywa bitandukanye， ndetse by'umwihariko kuko haba ari ahantu hiyubashe，haba hafite isuku，ndetse n'ibihakorerwa biba biteguranye isuku.

Inzu yubatswe mu bujyo bugezweho cangwa mu bujyo buteye imbere, ndetse harimo n'ibikoresho bya kijambere cangwa se biteye imbere nk'intebe, amakaro, ndetse n'utubati twiza cane biteteye amabengeza.

Icyapa cyerekana inzu ikorerwamo ibikorwa bitandukanye by'umwihariko nko kuyiruhukiramo ,cyangwa ikaba yifashishwa mu gucumbikira abantu baturutse ahantu hirya no hino hatandukanye

Umucuruzi ucuruzaga ibikoresho bitandukanye cane ibikoresho by'isuku, birimo amasabune by'umwihariko amavuta yo kwisiga.

Ibikoresho bakoreshaga ku meza cangwa se ibikoresho byifashishwaga mu gihe co gufungura bizwi kamasorori ,amasahani cangwa ama pulato gakaba ari amasahani gabaga Ari manini kugira ngo gifashishwe mu gihe co gufungura by'umwihariko iyo ari abantu benshi bagiye gukoresha isahani imwe cangwa se ipalato imwe.

Iki ni igikoresho cifashishwa cane cane mu nyubako ndende, kivana abantu hasi kibajyana hejuru kugira ngo bagereyo vuba ndetse bitabagoye ngo birirwe bakatakata inyubako yose.

Amavuta go kwisiga, kimwe mu bitu gikoreshwaga n'abatu benshi ku isi, kuko abenshi bagifata nk'aho congera ubwiza. Ikaba ari poroduwi cangwa se ikitu gikoregwaga mu nganda hagamijwe kugira ngo coroshe, cangwa se gisigwe ku ruhu kugira ngo rugaragare neza.

Isoko ricururizwagamo imyambaro zigiye zitandukanye mu bujyo bwa caguwa cangwa se bwo kwitoranyiriza imyenda ariko ahanini iba yarakoreshejweho cangwa se yarambaweho n'abandi bantu. Ikaba ari isoko rikundaga kuganwa n'abantu benshi kuko n'abantu bafite amikoro make bashobora kubona ibicuruzwa mu bujyo bworoshye.

Ibikoresho byiza cane, bigaragara ko biri mu soko bitegereje ababigura ndetse nk'uko bigaragara ni isoko ricuruza ibikoresho bikoze muri plastike.

Isoko rya Musanze ricururizwagamo ibitu bijyanye n'imbuto cyangwa se ibitu byo kurya, rizwi nka kariyeri ivuguruye. Rikaba ari isoko ryubatswe kugira ngo ryorohereze abaguzi ndetse n'abagurisha, kugira ahantu hisanzuye bashobora kubona ibitu bitandukanye byo kurya, cyangwa se ibyo gukoresha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Iguriro ry'ibicuruzwa bitandukanye ariko riciriritse, kuko ririmo ibicuruzwa bike, ugereranyije n'andi maguriro agezweho mu Gwanda.

Isoko jyubatswe mu bujyo bwa kijambere. isoko hakaba ari ahantu abantu bajaga bagiye kugura cangwa se kugurisha ibicuruzwa bitandukanye. Hakaba hajayo umuguzi cangwa umugurisha, ndetse hari n'abajayo bameze nk'indorerezi, bagiye kureba uko ibiciro bihagaze ku isoko.

Cane riherereye mu karere ka Musanze rikorerwagamo ibikogwa bitandukanye iby'ubucuruzi, iby'ubusuderi, gukanika n'ibindi byinshi cane rikaba ari isoko rya goyiko ahanini abantu bafite ibicuruzwa bitandukanye by'umwihariko ibitaribwa bajaga gucururizwamo nk'inkweto, imyenda n'ibindi byinshi cane.

Amatoroshi udukoresho twifashishwa bari gutorosha ahantu hari umwijima cyane mu gihe cya nijoro, nk'ugenda mu gihe cya nijoro ashobora kukifashisha , kugira ngo abashe kubona aho arimo kunyura.

Ibikoresho byifashishwaga mu guteka bizwi k'imyuko ndetse n'utumamiyo hari n'imbabura yifashishwaga mu guteka, amabase kakaba byifashishwaga mu gukora ibintu bitandukanye nko gukarabiramo ndetse umutu akaba yayifuriramo n'imyenda.

Isoko ricururizwagamo ibintu by'imbuto, isoko rizwi nka kariyeri riherereye mu karere ka Musanze, ahanini rikaba ari isoko riba ryiganjemo imbuto zitandukanye zo kujya, ndetse n'ibindi bintu by'ibanze umuntu yakenera ariko byo kujya.

Imbabura zikoreshwaga mu gihe co guteka ibintu bitandukanye. Zikaba zikoresha amakara kugira ngo zibashe gutanga ico twakwita nk'ubushuhe. Nk'uko bigaragara bashyiramo amakara hejuru noneho bakayafatiriza n'umuriro bagashyiraho isafuriya hejuru.

Inyubako nziza y'ubucuruzi ikaba ari inzu igeretse cangwa se inzu ndende, ikoregwamo ubucuruzi bwagutse.

Isoko ryubatswe mu buryo bwa kijyambere aho riba ryubatse ku buryo ibicuruzwa biba bifite ahantu byagenewe gushigwa ndetse bagasiga n'inzira y'abantu kugira ngo babashe kubona aho banyura baja kugura ibyo bicuruzwa biba biri muri iryo soko.

Ahantu baguriraga inkweto zitandukanye. Nk'uko bigaragara hari abacuruzi, hari n'inkweto ndetse hari n'umukiriya cyangwa se umuguzi mu muryango, usa nk'aho yaje kugura ibicuruzwa bicururizwa muri iyi nyubako.

Iduka ricururizwagamo ibintu bitandukanye nk'ibyo kurya ndetse n'ibirungo bitandukanye byo kwifashisha bashira muri ibyo byo kujya, hari ndetse n'urundi ruhande ruriho ibikoresho by'isuku bitandukanye amabase, amabido ndetsen'ibindi, hari n'ibikoresho byifashishwa mu gikoni nk'amasahani.

Isoko ricururizwagamo imbuto zitandukanye by'umwihariko imbuto zo kurya. Hakaba harimo amavoka, amatunda, ibinyomoro, indimu, amapapayi, imyembe ndetse n'imineke. Zikaba ari imbuto zikundaga gukoreshwa mu bice bitandukanye by'u Rwanda kuko zihariye mu buryohe.

Ibitoke byajanywe ku isoko nk'uko bigaragara, hari abacuruzi ndetse bategereje abakiriya, kugira ngo babagurire ibyo bitoke byabo bajanye ku isoko.

Isoko ricururizwagamo imyenda za caguwa ndetse n'iza sekeni, aho bazanaga imyenda zambaweho cangwa se zakoreshejweho, bakazishira mu soko noneho abakiriya bafite amikoro makeya bakaza kuzigura, kuko bigaragara hari abaguzi ndetse n'abacuruza izo myenda.

Isoko jya kijambere jya Musanze rikaba ari isoko rikundaga guteraniramo abantu benshi baturutse hijya no hino, cane ko ari isoko jyubatswe mu bujyo bugezweho kandi rikaba ari isoko jyubatswe mu mugi, bicyo bituma abantu baturutse hijya no hino baza kugurira mu isoko ndetse n'abacururizaga mu ijyo soko bakabona abakiriya, bicyo ubukungu bwabo bukagenda bwiyongera gake gake.

Abantu babiri bikoreye ibintu mu mabase cangwa se ibicuruzwa bitandukanye mu mabasi bakunda kwitwa nk'abazunguzayi ,bakaba ari abantu bacuruzaga ibicuruzwa batari ahantu hamwe cangwa se bajanaga ibicuruzwa mu mabase bakabijana bagenda bahura n'abakiriya babagurisha, noneho nk'uko bigaragara ni no mu isoko ririmo izindi mbuto zitandukanye.

Ubwoko bw'ibihingwa bihingwaga ahantu hatagira izuba nko mu nzu cangwa ahandi hantu hatandukanye hari ubuhehere buhagije. Akaba ari ibihingwa byihariye ku mavitamini cane nka proteyine, bikaba byitwa ibihumyo.